Abanyeshuri b'abahungu bafite metero, bari gupima nk'aho ari ababaji. Bambaye iniforume ya kaki.

Abantu bahagaze bambaye amapantaro yubururu n'amashati yumweru, bahagaze baringaniye hariho umwe uri inyuma yabo, bose bameze nk'aho bari gucuranga.

Isomero rirera abana, abana bagiye mu isomero barangwa n'imico myiza, bakagira ikinyabupfura, bakagira n'ubwenge bwiza. Iyo umwana yagiye mu isomero ntabwo amera nabi.

Umukobwa uri muri atoriye ari kudoda, yambaye umwenda w'umukara, yambaye na metero mu ijosi, asa naho yishimye.

Kwiga ni byiza bisigaye biratuma abana biga bakagera igihe bihangira imirimo. Aba bana bari kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, aho bari imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bambayeyenda y'umweru, bameze nkaho ari abana, Harimo n'umuntu witeze igitambaro cy'umweru.

Abasore bahagaze, bambaye imyenda y'ubururu, umwe yambaye agapira munda k'umuhondo.

Abantu basa naho bari kurebera mu byuma bita mikorosikopi, bambaye amataburiya y'imyeru n'ingofero z'imyeru, aba bantu basa naho bari kwiga kurebera muri mikorosikopi.

Ababoshyi bicaye hamwe, basa n'aho bari mu ishyirahamwe ryo kuboha ibiseke Bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye imyenda y'umutuku, abandi iy'umweru. Abandi biteze ibitambaro by'umweru, abandi nta bitambaro biteze.

Abantu bicaye bambaye imyenda isa n'aho yabugenewe, bari kureba mu byuma bimeze nka mikorosikopi, bameze nk'aho ari abanyeshuri bari kwiga kurebera mu byuma.

Abantu bari mu ibarizo bari gukurura imbaho. Umwe yambaye agapfukamunwa ku mutuku. Yambaye na za ga mu ntoki, kugira ngo adakomereka.